Ikigo gishinzwe ubwishingizi cya sonarwa, ushobora kukifashisha mu gihe ushaka gufata urugendo utekenye. Sonarwa irahakubera nk'ubwishingizi bwawe.

"No mugihe cy'izabukuru turahakugoboka" icyo nikigo kigihugu gishinzwe ejoheza aho ushobora gutangira kwizigamira bityo mugihe ugeze muzabukuru kikazakugoboka.

Icyapa kiri hejuru ku ipoto, cyamamaza ndetse icyapa gisa n'ubururu bwijimye, handikishijwe amagambo asa n'umweru ndetse n'andi asa n'ubururu bwerurutse, ni icyapa cyamamaza uburyo bwo gutwara ndetse n'uburyo bwa sekirite muri bizinesi yawe no gufata risike.

Inzu y'ubucuruzi izwi nk'isoko rya Nyarugenge, iriho icyapa kinini cyane cyamamaza vejizi, ikaba ari shikora nziza, iryoha, abana bakunda.

Tugeze mu gihe cy'imvura nyinshyi, iri ni itangazo rya Radiyanti, ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda. Ushobora kwishinganisha mu gihe ibikorwa byawe byangijwe n'impanuka cgangwa ibiza.

Icyapa kiri hejuru y'ipopo cy'umweru cyandikishijwe n'amagambo y'umukara tsiri ndetse kiriho imodoka yajanjaguritse, ni icyapa cyamamaza ko hari ubwishingizi ushobora kuba wahabwa k'ubw'ikinyabiziga cyawe kugira ngo ube utekanye mu gutwara kwawe.

Icyapa gisa n'umweru ndetse n'ubururu, cyandikishijwe n'amagambo asa n'ubururu, hagati handitsemo saniramu, ndetse na logo yabo, ndetse n'icyapa cyamamaza umwishingizi wa saniramu aho yagufasha ku kwishingira haba ibintu byawe, inzu, imodoka, n'ibindi bitandukanye.

Inshuwarense kampani poromisi izi poromisi. isezerano ni isezerano kuva kuwa mbere, kugeza ku wa gatanu bakora kuva saa moya n'igice kugeza saa mbiri z'umugoroba.

Icyapa kiriho imodoka isa n'umweru, ihetse indi modoka y'ivatiri yangiritse kirimo cyamamaza ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse hariho na nimero de fone ndetse n'urubuga ushobora kuba wasangaho uwo umwishingizi.

Icyapa gisa n'ubururu, cyandikishijwe n'amagambo asa n'umweru, cyamamaza ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, bwagenewe ibigo bitandukanye. Ndetse kuri icyo cyapa hariho imbuga zabo wabasangaho ndetse na nimero wabahamagaraho.

Icyapa gisa n'ubururu ndetse kiriho umugore n'umugabo bafite inyandiko mu ntoki zabo ndetse ubona ko bishimye ndetse n'icyapa cyamamaza ubwishingizi ndetse no kuzigama, ni icyapa kiriho nimero ndetse n'imbuga ushobora kuba wasangaho umwishingizi.

Ikigo inshuwarensi purasi kikaba gitanga serivise z'ubwisungane ku bantu ni ukuvuga inshuti zawe, abaturanyi bawe ndetse n'abagukomokaho.

Icyapa kiri hejuru cyamamaza ubwishingizi bw'amakamyo ndetse kuri icyo cyapa hariho abagore babiri bafite imisatsi itandukanye umwe ufite imisatsi y'umukara tsiri ndetse undi ufite imisatsi ya shokora ndetse nyuma yabo hari igikamyo gisa n'umutuku warimo wamamaza ubwo bwishingizi ndetse hariho serivise na numero ushobora kuba wabasangaho.

Urubuga rwa emutiyene rugaragaza amafaranga ufite ayo winjije n'ayo wasohoye, ndetse n'urubuga rworohereza ukoresha kuba yacekinga amafaranga ye, yayakoresha mu buryo butandukanye igihe ashaka.

Urubuga rwa Ekwiti rugaragaza uburyo umukiliya wabo witwa Hirwa Iberi, uburyo yagiye abitsamo, ndetse akanabikuzamo.

Urubuga rwa banki rufasha urukoresha kuba yabitsa amafaranga cyangwa se kuyabikuza harimo serivisi za mobayilo mani peyi ndetse na foreni egisicenji na loni rikwesiti kuba wasaba n'inguzanyo.

Ekwiti banki nziza mu Rwanda itanga serivise aho waba uri hose, irimo kwerekana uburyo bwayo bushyashya, ushobora kwifashisha kugira ngo ubone amafaranga usigaranye kuri konti.

Urubuga rwa ekwiti, rukaba rugaragaza neza uburyo umuntu ashobora kugira ibyo yigurira, ndetse akaba yabona amafaranga mu buryo bwihuse bitabaye ngombwa ko agana banki.

Amakuru ajyaniranye n'amafaranga umukiriya sigaranye, yose hamwe akaba afiteho ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu magana atanu.

Imbonerehamwe igaraggaza taranzagisiyo zabaye uyu mwaka z'ikigo gishinzwe imari. Kikaba gisigaranye miriyoni mirongo irindwi n'ebyiri n'ibihumbi magana atanu na makumyabiri.

Urubuga rwa banki rukwereka kuba wabikuza amafaranga, konti yawe, kohereza ndetse n'ibindi bitandukanye ni urubuga rufasha urukoresha kuba yabitsa, akabikuza amafaranga ye bimworoheye.

Urubuga rwa beka rufasha umukiriya kugira ngo abashe kuba yakaka serivise urugero nkizo kubikuza kubitsa ndetse nibindi bitamugoye.

Urubuga rwa banki rworohereza urukoresha kuba yakohereza cyangwa se akakira amafaranga m'uburyo bumworoheye ndetse no kuba yareba konti ye uko ihagaze amafaranga, amakuru cyose muri rusange ni urubuga rworohereza umunyamuryango wa banki.

Fagitire igaragaraza uburyo amafaranga yakoreshejwe avanwe kuri konte y'umukiriya, bityo bakamwereka yose hamwe n'asigaye, akaba asigaranye miliyoni magana atanu makumyabiri n'ikenda yose.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye, ndetse hejuru hari icyapa gisa n'umweru cyamamaza ibyo bafite ndetse n'ibyo bakora ndetse ku muryango hariho idirishya ribonerana ndetse ririmo ikirahure kibonerana kugira ngo umukiriya uhatambuka abashe kuba yabona ibyo bacuruza.

Abagore babiri bahagaze bareba muri mudasobwa ndetse inyuma yabo hari imyenda imanitse kuri porutomantu imeze nkigurishwa ndetse bameze nkabari mu isoko rigurishirizwamo imyenda, imbere yabo ndetse hari impapuro zibafasha kuba babara ibyagurishijwe cyangwa se ibyinjiye ni byasohotse.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye harimo imipira y'abagabo ifite amabara agiye atandukanye ay'ubururu, ay'imikara, nay'icyatsi.

Umuguzi n'umucuruzi barimo kwemerana ku bintu runaka, urugero: umucurizi arimo arabwira umuguzi yuko ibiciro byazamutse cyane.

Ihahiro ririmo ibikoresho bitandukanye bakaba banatanga serivise zitandukanye, urugero, ushobora kuba wabonamo ikawa ya mu gitondo yo kunywa, ukaba wanahaha n'ibindi bintu bitandukanye.

Maneke bashobora kwifashisha bakayambika imyenda n'inkweto kugira ngo umukiliya naza arebe neza uko iyo myenda iraba iteye, bityo abashe kuyigura ayizi.

Ikote ry'ubururu ririmo imirongo isa n'umweru ndetse n'ishati y'ubururu byambitswe maneke, kugira ngo habe hakamamazwa iyo myenda ku rubuga rwa fesibuku aho bamamaza ubwoko bw'iyo myenda.

Umukobwa mwiza cyane wambaye ikanzu igera hejuru y'amavi urimo guhaha ibicuruzwa bitandukanye, urugero nk'amavuta ndetse n'inkweto zitandukanye.

Iduka ricuruzwamo za yundayi zifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda, rikaba risakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Imodoka y'ijipe igurishwa miliyoni mirongo itandatu n'eshanu, ndetse iri kw'isoko aka ka mwanya. Ni imodoka isa n'umukara, ndetse ifite amatara amurika neza, ndetse imodoka ishinguye ndende kuburyo uyikoresha wese imworohereza akazi cyangwa se uruzinduko

Uruganda rukaba runacuruza imodoka, rw'Akagera Motors, rurimo gucuruza imodoka y'umweru, yo mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser.

Imodoka ikodeshwa na Kigali karizi maketi yo mu bwoko bwa pajero, ifite ibara ry'umweru n'ibirahure byiza cyane bya fime.

Imodoka ya Yundayi iri ku isoko irimo igurishwa miliyoni icyenda z'amanyarwanda ndetse ku mwanya wa purake hariho Kigali karizi maketi, imodoka ya Yundayi isa n'ivu ndetse yo mu mwaka w'Ibihumbi bibiri na cumi na gatatu.

Imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa yundayi irimo kwamamazwa n'abakobwa babiri, umwe ku ruhande rwo hepfo undi ku ruhande rwa ruguru. Iyi modoka iri mu mabara meza y'umukara abantu benshi bakunda.

Akagera motozi ni ikigo cy'ubucuruzi gikorera mu Rwanda gitanga serivisi zitandukanye zijyanye no kuba wagura imodoka cyangwa se ukazikodesha, zishobora kugukurira imodoka hanze, uyu ni umukiliya wazo bari kuyishyikiriza.

Abagabo babiri b'abahinde bambaye imipira ya rakosite isa n'umweru, bafatanye icyapa n'undi wirabura, wambaye amarinete, icyapa cyanditseho Akagera motozi, naho ku ruhande hari imodoka itwara imizigo isa n'umweru, yanditseho fuso ndetse bigaragara ko bari mu ruganda rw'imodoka.

Imodoka zisa n'umweru zitwara imizigo, ziri mu nzu irimo amakaro, ndetse umugabo wicaye yambaye ipantaro isa n'ubururu. Imbere ye har'imeza y'ikirahure, hejuru hari ikirahure ndetse n'amazi y'inyange.

Abagabo babiri bambaye ishati zisa n'umweru, bafashe icyapa cyanditseho akagera motozi; ndetse inyuma yabo hari imodoka isa n'umukara, ndetse ku nzu iri inyuma y'imodoka handitseho akagera motozi hejuru.

Imodoka iri muri parikingi ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa toyota parado ifite ibirahure byijimye impande zose iparitse ahantu heza hasa neza.

Abakozi bakorana bakaba bacuruza imodoka ariko bafashe ifoto y'urwibutso kugira ngo bazahore bibuka ibihe byiza bagiranye bari kumwe.

Ikigo Akagera bizinesi gurupe gikomeje kuba icyizerwa kuko gituma imodoka yawe bityo ikakugeraho ntakibazo ihuye nacyo rwose, aha bari kumwe n'umukiriya wabo uje gufata imodoka ye yatumije.

Igiceri gisa n'umuhondo cy'amafaranga atunu y'Amanyarwanda imbere hariho ikirangantego cya guverinoma y' u Rwanda ndetse igiceri giteretse ku meza ajya gusa n'umweru ariko irimo imirongo.

Umuntu urimo kwaka serivisi zo kuvunjirwa amafaranga y'abanyamahanga, wambaye neza agapfukamunwa ndetse n'umukozi urimo kumwakira nawe yambaye neza agapfukamunwa ke.

Abagabo batonze umurongo kuri banki baje kuba bahabwa serivise zitandukanye zirimo kubitsa, kubikuza ndetse n'izindi zitandukanye bahagaze imbere y'ikirahure kibonerana kirimo umu ajenti wa banki.

Inote y'igihumbi cy'amanyarwanda yanditseho banki nasiyonale di Rwanda, yasinyweho nara guverineri wa banki ndetse hariho umwaka yakorewemo ari ya mbere z'uwa cumi n'abiri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani ndetse hariho imisozi y'ibishushanyo.

Inote y'amafaranga magana atanu igihugu cy'u Rwanda gikoresha, haba mu bucuruzi ndetse no muri serivise zigiye zitandukanye bakenera.

Umugabo wambaye ishati irimo imirongo y'umukara, ahagaze ku kirahure kibonerana aho arimo areba umuha serivisi kuri banki ya kesibi, ndetse ni banki ifite ikirango cy'intare ndetse isa n'icyatsi.

Banki itangirwamo serivisi zitandukanye, ifite abakozi benshi ku buryo nta murongo muremure uhari, kandi abahari bose baranyuzwe na serivisi bahabwa.

Ahateretse utubido dutandukanye, utubido twose hamwe ni dutandatu ndetse iruhande rwayo hari icyansi kirimo ubusa. Utu tubido tukaba dushobora kuba dutwarwamo amata.

Ikigo cy'Inyange indasitirizi, aho gifite ikaragiro ririmo amata, bityo abaturage bakabasha kuyabona hafi, bakabasha kuba bayagura ku giciro cyiza kandi kibanogeye.

Icyuma cyo munyange, kifashishwa mukuba cyabika amata Kandi akaguma ameze neza Kandi ari menshi ,kuburyo abayakeneye Bose bari buze igihe baboneye akanya bakayabona.

Injerekani za Jibu zisa n'umweru ku ruhande hari firigo ndetse n'umuryango usa n'ubururu, bigaragara ko ari ahantu hacururizwa ibinyobwa ndetse n'amazi muri rusange kandi hasi hari amakaro asa n'umweru bigaragara ko aho hantu hasa neza.

Umugabo wambaye umupira usa n'umweru ahagararanye n'umukobwa wambaye ishati y'ikoboyi isa n'ubururu ndetse n'ikanzu y'icyatsi. Bigaragara ko umukobwa arimo agurisha ibinyobwa, naho umugabo arimo agura amwishyura amafaranga.

Aho ushobora kugurira amata y'inyange, waba ushaka ayo mu cyuma cyangwa se ayo ushobora kubika igihe, ushobora no kuhagurira amandazi n'ibindi.

Umugabo wicaye ku ntebe ahaye inzira umukobwa wambaye ikote risa n'umukara ndetse n'ijipo isa n'umukara ariko irimo imirongo y'umweru ndetse bari muri kantine irimo ikusanyirizo ry'amata ndetse n'amakeke n'ibindi.

Urubuga rugaragaza umuntu uri kwiyandikisha ari mushya ahashyira amazina ye abanza ndetse n'ahera, igihugu, nimero, imeri yiwe ndetse n'umubare w'ibanga wiwe ndetse n'uburyo bwo kwishyuramo amafaranga.

Spenn rwanda sangiza inshuti ibyiza bya spenn ubatumire utsindire magan’ atanu kuri buri nshuti utumiye. Ntimucikanwe! nimubabwirawe rwose ibyiza bya spenn

Icyapa cy'ikigo gishinzwe itumanaho cya eyateri, kiriho umugabo ukoze mu note w'igitente ufite telefone mu ntoki ze, wambaye ikote ndetse n'ipantaro bisa n'umutuku, arimo yamamaza uti, "ubonye amafaranga magana atanu kuri konti yawe ya eyateri mani."

Ikigo gitanga serivise cya eyateli kikaba cyazanye uburyo bushya bwo kuguriraho enterinete mugihe yagushiranye, ukoresheje uburyo bwa mayi ayiteli apu.

Ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti kiri kwerekana resi yahawe uwitwa Murora Rose yuko yamaze gusora neza.

Banki yumugi wa kigali banki ofu kigali iri kwerekana taranzagisiyo zabaye ahantu hatandukanye kuri buriheza hadiweya.

Inyandiko igaragaza ibicuruzwa byasohotse ndetse n'ibyinjiye byose hamwe, bikaba biriho n'amafaranga yagiye abigendaho byo ku itariki ya cumi n'umunani.

Fagitire ya Ibiyemu irimo guhabwa umukiriya wa Purayime inshuwarensi witwa Isameyeli Semukanya, ikaba iriho imisoro

Inote ya makumyabiri yo mu gihugu cy'Ubuhinde, ifite ibara ry'umuhondo n'umweru, ikaba igaragaza yuko Ubuhinde bufite imbaraga zikomeye.

Amafaranga y'amanyamahanga nukuvuga amadorali, inote z'ijana zikaba ziri mu cyuma kibara amafaranga gifite ibara risa nk'umutuku werurutse.

Amafaranga y'amanyamahanga y'amayero, inote y'amayero ijana, amayero ijana, amayero mirongo itanu, amayero makumyabiri, amayero icumi, amayero atanu.

Ibiciro bigaragaza ukuntu amafaranga y'amanyamahanga avunjwa, amayero ushobora kuyagura maganinani mirongo itanu nabiri bajya kuyakugurisha bakayaguhera maganatandatu mirongo inani.

Ni umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umweru harimo igikamyo cyandikishijweho amagambo y'umukara utwikirijweho shitingi y'ubururu ndetse n'abantu iruhande rwabo.

Umugore ufite imisatsi y'umukara tsiri ndetse wambaye ijire isa n'umukara n'ishati y'umweru, afite ibiceri bitatu mu ntoki ndetse n'inote za mirongo itanu ndetse na makumyabiri ndetse n'icumi mu kindi kiganza.

Amafaranga y'ibihugu bitandukanye harimo ayo mu Bushinwa, ayo mu bihugu by'Abarabu, amadorari ndetse n'ayandi y'ubwoko butandukanye. Akaba umuvunjayi ayafite mu ntoki ze.

Inote zitandukanye z'amafaranga y'amanyamahanga, urugero harimo amadolari amafaranga yo mu gihugu cya koreya, amafaranga yo mu Bushinwa amafaranga yo muri Tayiwani n'ayandi.

Ibiro bito bishinzwe kuvunja no kuvunjisha amafaranga, hanze bifite ibyapa byamamaza ibikorwa byabo, harimo serivisi batanga ndetse n'ibindi bitandukanye, bityo ku buryo umukiriya aramutse ahanyuze yahita agira amatsiko ndetse agakururwa no kuba yahabwa serivisi na bo.

Ikigo gishinzwe kuvunja amafaranga gifite ibiro biriho amarido asa n'umweru ndetse mo imbere harimo intebe isa n'umukara ndetse ku muryangao hariho ibirahure bibonerana.

Icyapa kiri hejuru y'inzu ifite urugi rusa n'umuhondo, ndetse n'amadirishya y'umuhondo kigaragariza uhageze ko yageze ku biro bishinzwe kuba kubavunjira amafaranga, ndetse ashobora kubonaho na nimero zo kugira ngo abavugishe bamuhereze serivisi yifuza.

Ibiro bya mani garamu aho ushobora kunyura ukohereza amafaranga, umuntu uri mu mahanga, haba muri Amerika, mu Butaliyani, mu Budage.

Aho bakorera imirimo yo kuvunja amafaranga, ku buryo uzana amafaranga y'amanyamahanga, na bo bakaba bakuvunjira amafaranga neza neza ahwanye n'agaciro kayo mu yandi mafaranga waba ushaka yo mu kindi gihugu.

Ibyuma byo muri banki bifasha mukuba umuntu yakikorera serivise zose yifuza bitabaye ngombwa ko arinda gutonda umurongo muremure cyane.

Inzu isize ubururu hanze ndetse yandikishijwe amagambo asa n'umweru, hanze hari n'icyapa cya tigo cyamamaza serivisi bafite ndetse hanze handitse ko ahongaho hari ibiro bishinzwe kuvunja no kuba wagurisha amafaranga ndetse ku buryo byorohera ubuhaciye kuba yabegera akaba yahabwa izo serivise.

Icyapa kerekana aho ushobora kuvunjishiriza amafaranga y'amanyamahanga, foregisi iki cyapa kikaba kinariho nimero ushobora kubabonaho.

Biro ishobora gufasha umukiliya ikamuvunjira amafaranga afite urugero nk'amadolari ikamuha amanyarwanda cyangwa se andi mafaranga yifuza.

Intebe enye zizengurutse ameza, ziteretse hanze y'inzu ndetse bigaragara ko ari intebe ziri kw'isoko zitegurwa kuba zagurishwa. Ndetse n'intebe ziri mu mbuga ipavomye, ndetse inzu izegereye isize ibara rijya gusa n'icyatsi

Intebe nziza cyane zikozwe mu byuma ariko aho bicara hakaba hakozwe mu biti, izi ntebe nziza ni ebyiri zikaba zifite n'ameza yazo, byose biteretse ahantu heza cyane mwakicara mukaganirira.

Ibikoresho byakoreshejwe ariko bishobora kongera kugurishwa n'ababikeneye bose bakabibona harimo intebe ,matera ,ameza, intebe, ibikapu ndetse n'ibindi.

Ameza asa n'umweru ndetse hejuru hariho umutako, ndetse n'umutako mwiza w'akabindi ariko bigaragara ko aho hantu hasirimutse. Ku buryo uhinjiye wese abona ko yinjiye ahantu hasirimutse, hari amakaro hari intebe nziza, hari imitako myiza n'ibindi.

Ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse ku gitambaro cyumweru hariho: amasahane, icyuma n'ikanya, ndetse n'ibirahure birimo inzoga, ndetse n'imbuto ziri mu gisorori, ndetse n'amasahani.

Inzu nziza igeretse ndetse ifite amatara asa numuhondo hasi hari ibiti byimikindo ndetse munsi harimo intebe nke zifite ameza aho zifasha abatuye munzu kuba baruhukira hanze bagafata kukayaga.

Saro nziza irimo intebe zitandukanye, harimo intebe isa na shokora ndetse n'izindi ebyiri z'umukara. Irimo amatara meza, naho ku rukuta hariho ibishushanyo bimeze nk'imigongo n'ameza asa na shokora ndetse n'ayandi y'ikirahure hejuru hariho ibitabo.

Inzu igeretse ifite amatara yaka cyane ndetse meza hanze haparitse imodoka ndetse hari kugenda imodoka nziza ndetse hanze hari ibiti by'imikindo bigaragara ko iyi ari hoteri kandi nziza y'inyenyeri nyinshi.

Inzu nziza cyane zigeretse gatatu, indi ikaba igeretse kabiri zifite parikingi nini cyane ijyamo imodoka nyinshi icyarimwe.

Ibinyobwa bidasindisha bikubiyemo ama ji atandukanye yaba akozwe munanasi no mumineke hakaba hari nandi akozwe mumapera ndetse na yahurute zitandukanye.

Inyubako nziza cyane iteye amabengeza ifite ibirahure byiza cyane nibara ryiza cyane ikaba hanze yayo ifite pisine yo kogeramo nziza cyane.

Ikigo gitanga ubwishingizi mu by'ubuvuzi ndetse no mu by'ubwikorezi, ku buryo mu gihe cyose wishyuye ubwishingane nta kibazo na kimwe ushobora kugira kandi barabyirengera.

Icyapa kiri ku nzu, y'umwishingizi, ndetse icyo cyapa cyamamaza ubwishingizi bw'imodoka, ndetse hariho imodoka isa n'ubururu, ndetse hariho n'ubwo buryo bw'ubwishingizi, ku buryo umukiriya ubonye icyo cyapa yakifuza kuba yakoresha ubwo bwishingizi.

Inyubako ndende cyane ifite amagorofa atatu, isize ibara ry'umweru, ifite hanze kandi mu mbuga yayo ubusitani bwiza cyane burimo ibiti byinshi.

Intebe iza n'umukara iri ku meza ndetse ameza ariho imashini bigaragara ko ari ibiro by'umukozi wo muri sonarwa ndetse ikigo gishinzwe ubwishingizi.

Icyapa kigaragariza ukibonye ko imbere gato hari ubwishingizi mu kigo runaka, ndetse biteguye kuba bafasha umukiriya ubagannye, ndetse cyamamaza na serivise ndetse n'aho wabasanga.

Umuhanda nyabagendwa, w'icyerekezo kimwe, ukaba ufite amatara awumurikira, ukaba ufite n'ibimenyetso byo mu muhanda bimurika.

Abana b'abanyeshuri barimo kungurana ibitekerezo na mwarimu wabo arikubasobanurira uburyo bashobora gukoramo umukoro wabo bitabagoye.

Imihanda yose yerekeza i Nyamata, ku cyumweru nibwo hazaba irushanwa rusange rya tenisi, rikaba rizabera i Nyamata, rikaba rizaterwa inkunga na ayi andi emu banki.

Icyapa kiriho abagore babiri, umwe wambaye umupira usa na move ndetse n'undi wambaye umupira ujya gutukuramo bafatanye icyapa cyanditseho openi ndetse ubona ko barikwamamaza inguzanyo muri banke byitwa ekwiti.

Uburyo ushoboye kwizera abashoferi bawe, ndetse ibi ngibi bikaba bitoza abantu kuba babona perimi zo gutwara ibinyabiziga bitandukanye.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye harimo iya siporo n'iyo kwambara bisanzwe, harimo abacuruzi benshi batandukanye, ndetse iduka risakawe n'amabati ashaje ndetse bigaragara ko hari mu rujya'uruza.

Isoko ryaremye mu cyaro, rirema ku wagatatu, abaguzi n'abagurisha buri wese aba afite icyo mugenzi we akeneye, ririmo ibitoki, ibirayi amateke, karoti n'ibindi.

Isoko rya nyabugogo, ririmo abaguzi n'abacuruzi ndetse rikaba ririmo ibintu bitandukanye; urugero nk'ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu gikoni, ririmo ibyo kurya ibyo guteka n'ibindi.

Imodoka yo mubwoko bwa yundayi ifite ibara ry'umukara iparitse muri parikingi ahabugenewe hakaba hari uwayijemo wambaye neza.

Isoko rirema muri wikendi ry'imbuto ndetse n'imboga, Hakaba harimo imbuto zisa neza cyane imineke, inanasi imyembe, avoka nibindi.

Umugabo uri ahacururizwa imyenda y'abagore ndetse n'ibitenge muri rusange, umugabo yambaye ishati ndetse inyuma ye hari ibitenge by'ubwoko butandukanye haba ibitukuye, umuhondo, icyatsi, move ndetse n'andi mabara atandukanye.

Isoko rya Nyabugogo ririmo umucuruzi urimo guha abakiriya ibicuruzwa arimo no kumwenyura, ibyo bikaba biri butume abakiriya baza kumugurira bishimye, afitemo ibitunguru n'ibindi.

Abacuruzi batandukanye bari mu isoko bacuruza imboga ndetse n'imbuto, harimo abamama bafite abana ndetse n'abasore n'inkumi barimo bacuruza mu byo bacuruje harimo ibitunguru, ininyanya, intoryi ndetse na karoti n'ibindi bitandukanye.

Aho abaturage bateraniye kuko barimo kwamamaza telefone ya eyateli, ukaba ushobora kuyibona kuri poromosiyo, ku buryo buguhendukira.

Abakora ubucuruzi buciriritse ni ukuvuga abashobora kuba barihangiiye imirimo, ndetse bari kumwe n'umugabo ucuruza amasambusa, barimo kumute.

Umuhanzikazi urim' ataramir' abamukukira ,ndetse yambaye umupir'usa n'umuhondo, hejuru yahashyize amarinete yiwe ndetse afite mikorofone, yambaye ipantaro isa n'ubururu. Kuruhande har' icyapa cyamamaza emutiyene, kiriho abanyeshuri babiri.

Akazu ka emutiyeni gasa n'umuhondo gakorerwamo n'umu agenti wayo kugira ngo abe yatanga serivise zitandukanye harimo kubitsa, kubikuza ndetse n'izindi serivise zitandukanye.

Umuzungu uri kumwe n'abirabura, bose bambaye imyenda isa n'umuhondo, gusa uwo muzungu yambaye ishati isa n'umukara kugice kinini cy'amaboko, hagati niho hasa n'umuhondo ndetse biragaragara ko barimo bareba kumatelefone ndetse bareba serivise za MTN zishobora kuba zakoreshwa muri fone.

Umuguzi ufite telefone isa n'umukara arimo asikaninga kiyu ara kode ku kumucuruzi wambaye umupira utukuye ndetse kugirango abashe kuba yakishyura amafaranga mu buryo bworoshye cyangwa se arebe ibicuruzwa bafite mu buryo bworoshye.

Ikinyamakuru kikaba kinatanga serivise zitandukanye kitwa izihirwe kikaba cyashyizeho poromosiyo idasanzwe ku bufatanye na emutiyene Rwanda.

Uburyo emutiyene Rwanda yashyizeho ku mucuruzi n'umuguzi kugira ngo umuguzi azajye abasha kwishyura umucuruzi kuri kodi ya momopeyi ariko ntibamukate amafaranga y'andi.

Akazu kaba ajenti nukuvuga abakozi ba MTN batanga serivise zitandukanye zicyi kigo gishinzwe itumanaho m'urwanda.

Abakozi ba emutiyene mobayiro mani barimo baratanga serivise zitandukanye, barimo kwakira abakiliya babagannye ndetse bose urabona ko bishimye.

Urubuga rufasha urukoresha kuba yatuma ibiryo ndetse akaba yatuma n'ibindi bitandukanye akoresheje uru rubuga, aho rufasha urukoresha kuba yazenguruka impande n'impande areba icyo yashimye kugira ngo agitume.

Uburyo bushya bushobora kugufatanya guhaha ,utavuye murugo aho uri, ukaba ushobora guhaha ibicuruzwa bitandukanye biri mubihugu bitandukanye, byose bikakugeraho ntacyo bibaye.

Inzu ya Tayo iberamo ibikorwa bitandukanye urugero nk'ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye byose wakenera.

Uburyo ushobora gukoresha ukagura ibicuruzwa bitandukanye ukoresheje apurikasiyo ya ruti rwanda bityo ukagura ibyo ukeneye byose wibereye murugo kandi bikakugeraho utavuye aho uri.

Moto zifashishwa mu kuba zajyana ibiryo ku babitumije, aho baba bari hose kandi bikabasha kubageraho mu buryo bwihuse kandi bworoshye bityo ntibate igihe cyabo bajya kubishaka.

Urubuga rwa vuba vuba rufasha urukoresha kuba yatuma ibintu bikamugeraho vuba vuba, ni urubuga ruriho umukobwa ufite inzara ndende, ufite na telefoni mu ntoki ye harimo urwo rubuga rwa vuba vuba.

Urubuga cyangwa se webusayiti ya Rwanda mati, ikaba ariyo ushobora kunyuraho ugatumiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye byo guteka, bityo bikakugeraho byihuse.

Urubuga rwemewe ushobora gutumirizaho imyambaro ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga kandi imyambaro ikakugeraho utiri buva aho uri urugero amashati, amapantaro y'imipira n'ibindi.

Urubuga ruhuza ugura n'ugurisha kuba bagura bagaherekanya serivise ndetse hariho ibikoresho bitandukanye; hariho imisego, hariho imashini zipima ibiro, hariho ibikoresho bya siporo n'ibindi bitandukanye. Urubuga rwamamazwa hariho umudamu ufashe udukapu tubiri.

I Kigali mu gihugu cy'u Rwanda hari inzu nziza cyane ushobora gukodesha irimo ibikoresho byo mu nzu byose uko byakabaye. Ku madorari magana atanu mirongo itanu yonyine.

Inzu igeretse ifite ibara rijya gusa n'ivu, ndetse n'irindi bara ry'umweru hanze hateye ibiti bifasha abegereye igiti kuba babona umwuka mwiza, ndetse ni inzu ikodeshwa amadorari magana inani ku kwezi hano i Kigali.

Inyubako ya etage igeretse ifite parikingi ipavomye hasi ndetse n'inyubako isize amarangi menshi kandi meza, yiganjemo umweru inyubako isakaye neza, ndetse ifite igipangu kigari kandi kirekire, inyubako ikodeshwa amadorari icy'atanu ku kwezi.

Icyumba gifite gariderobe ndetse uburiri bushashe neza, ndetse hasi harimo amakaro ndetse n'imiryango ya libuyu isa neza, ni cyumba bigaragara ko kiri mu nzu nziza ndetse ihenze, ku kwezi ni amadolari magana atanu mirongo itanu i Kigali ugakodesha iyo nzu.

Inzu nziza cyane ya kadasiteri, ifite amabati y'umutuku n'igipangu kiza cyane, bikaba biherereye i Kigali, ukaba ushobora kubigura kuri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri zonyine.

Mu mugi wa Kigali, hari inyubako nziza cyane ishobora gukodeshwa amadorali ibihumbi bibiri yonyine ku kwezi, irimo ibikoresho byose bikenerwa, ikabamo igikoni kinini cyane kijyanye n'iterambere.

Hano hari inzu ikondeshwa amadorari ibihumbi bibiri ku kwezi. Ikaba yuzuye neza cyane, ikaba isize iragi ry'umweru. ikaba Kandi igeretse kabiri kose.

Hano hari inzu nziza cyane mumugi wa Kigali ushobora kugura miliyoni mirongo ikenda n'eshanu z'amafaranga y'urwanda. iyo nzu ikaba irimo ibikoresho byose byo munzu, iherereye ikanambe.

Inzu nziza cyane, ushobora kugura, irimo ibikoresho byose byo munzu wa kenera, ku mafaranga ibihumbi mirongo inani na bitatu byonyine by'amadorali, ukayibona.

Inyubako igeretse ikaba isize ibara ry'umuhondo, ihereye Kibagabaga kandi irimo ibikoresho byose bikenerwa. Ikodeshwa ibihumbi bitatu by'idorari.

Inzu nziza cyane ikodeshwa y'ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba iherereye ikanombe ikaba ari inzu ya kadasitire yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako igeretse ndetse ku ruhande hari ibiti byiza, ndetse munsi haparitse imodoka zisa n'umukara, inyubako isize ibara rijya gusa n'ivu, ndetse ifite amacumbi menshi mo indani muriyo.

Ihahiro ni ukuvuga superimarishe, irimo ibicuruzwa umuntu yakenera byose. Harimo; amaji, inzoga, amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka.

Urujya n'uruza hagati mu isoko ndetse harimo hacamo abacuruzi batandukanye, ndetse n'abaguzi batandukanye ubona ko barimo bacuruza imyenda ndetse n'ibindi bijyanye no kurimba harimo amashakoshi n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa ucuruza imyenda akaba ashobora no kuba ayiranguza. Mu myenda acuruza harimo ikozwe mu bitenge hakaba n'ikozwe muri medinirwanda.

Ihahiro rigezweho, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hari umukiliya urimo guhaha, amashampeni, ndetse n'amawayine, yo kuza kwifashisha agaburira abashyitsi be.

Maneke bahagaritse hanze, bazambitse kositime kugira ngo zibashe kwamamaza. Butike icuruza imyenda ndetse y'abagabo, amakote, inkweto n'ibindi bitandukanye, ku buryo uca imbere yazo ahita abona ko hafi aho bacuruza ibyo byose.

Polisi y'u Rwanda, irimo gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda, kugira ngo barebere hamwe serivisi zitangirwa ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda.

Iguriro, ni ukuvuga alimantasiyo, ririmo umukobwa ufasha abakiriya kubona ibyo bashaka bitabaruhije, alimantasiyo ikaba irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize, Ara esesibi, aho cyakoresheje inama gisobanurira abaturage ibyiza bya ejoheza, no kuyibamo.

Abaturage bicaye ku ntebe harimo abagore batanu ndetse n'umugabo umwe, barimo baganira baseka ndetse umwe yicaye ku ntebe y'umweru ya pulasitike ndetse inyuma yabo hari icyapa cyamamaza.

Abaturage bahagaze hanze y'umuryango, ndetse barimo bareba imbere. Harimo abaganga, barimo bakurikirana akazi kabo, ndetse imbere yabo hari mikorosikope ndetse n'ibitabo n'amakaramu, n'imiti ibafasha kuba bakora neza akazi kabo, ndetse imbere yabo hari umurwayi urimo abarebera.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi arasesibi, kirimo gutanga inama z'uburyo twese hamwe dushobora gufatanya maze tukishyura ubwisungane kugira ngo bitubere byiza.

Umugore urimo ushyira udupapuro kumeza, udupapuro turiho mesaje zitandukanye ndetse yitegura kuba yamanika kunzugi, arimo aranga cyangwa se yamamaza ibyo byumba biberamo ibikorwa runaka ndetse kuntoki ze hasizeho ihina risa n'umukara.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu rwanda ara esi esibi kirimo gutanga serivisi zinoze kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kuba yabona ubwisungane mu kwivuza bityo ntazarware ngo ahere mu rugo.

supermarket icuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibinyobwa ibiribwa ariko hagiye harimo n'imbuto harimo pomme ndetse n'izindi mbuto zitandukanye hejuru hari ibyapa byamamaza ibintu bitandukanye supermarket ibiciro byagabanutse ndetse n'ibindi bitandukanye

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bitandukanye urugero amavuta yo guteka, amata y'ifu yo kunywa, isukari, pampegisi z'abana.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, urugero nk'amavuta yo guteka, ibyo kurya, amabiswi atandukanye ndetse n'utuntu abana bakunda cyane twa shokora.

Inyubako hanze ifite intebe z'umuhondo ndetse nameza asa n'umuhondo yicarwamo nabari guhabwa serivisi ndetse hejuru handitseho simba gishushu ku nyubako ya etage ariko bigaragara ko munsi arimo supamateti icuruza ibintu bitandukanye.

Alimantasiyo irimo ibicuruzwa bitandukanye urugero, amashokora, imigati ,amaji, amabiswi ndetse n'amasinekisi yose atandukanye.

Abaguzi bavuye guhaha ibicuruzwa bitandukanye bategereje kwishyura kugira ngo babashe kuba batahana ibyo bicuruzwa ariko bakaba bari bwishyure bifashishije ikoranabuhanga.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo, amaji, amafanta, ibicuruzwa bisindisha, ibyo kurya bitandukanye, amata y'ubwoko bwose.

Supamaketi irimo abaguzi batandukanye barimo bahitamo ibyo bagura harimo biswi, harimo ibinyobwa, harimo amasabune, harimo amakaramu, harimo byose bitandukanye ndetse na supamaketi ifite amatara y'amabara ku mpande zitandukanye harimo amatara y'ubururu ndetse n'ibyapa biri hejuru bikwereka igice ugezemo n'ibirimo.

Uruganda rucuruza ibinyobwa, rufite ibinyobwa bitandukanye, harimo koka, oranje, sitoro n'ibindi. Bigiye bipakiye mu mayetajeri ndetse buri bwoko bw'ibinyobwa buri mu ishashi yabugenewe yo kuba yatwara ibyo binyobwa.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bitandukanye urugero amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka ,ibicuruzwa bitandukanye byo kurya imigati ,amampegisi y'abana, isukari n'ibindi..